Abahinzi bari mu murima bafite amasuka abandi bafite ifumbire, bamwe bari kugenda bacukura imyobo yo gushyiramo imbuto, abandi bagenda bashyiramo ifumbire y'imborera.

Ibasi irimo ifumbire, hakaba harimo imbuto bagiye guhinga, muri izo mbuto harimo amashu n'izindi z'imboga rwatsi.

Ibyatsi barunze hamwe bakabikoramo ifumbire y'imborera, hakaba hari umuntu uri kuyiyora kugira ngo atangire ajye kuyifumbiza imyaka ye izere ku buryo bushimishije.

Imifuka irimo imyaka, irunze hejuru y'imbaho ziteranyije ku buryo hasi yazo harimo inzira icamo amazi, ku buryo igihe amazi yaba menshi, atahita agera ku mifuka.

Ibirayi birunze mu mufuka w'umweru, bikaba ari bimwe mu bihingwa bikunzwe cyane, bamwe bakabitekamo ifiriti bakoresheje amavuta gusa, abandi bakabitogosa bisanzwe.

Umurima uhinzemo ibiti bya gereveriya bikiri bito, bikaba bishobora guhingwa ahantu hahinze n'indi myaka yo kurya, bikaba bikikijwe n'umurima urimo insina zitandukanye.

Umurima urimo ibyatsi bitandukanye, hagati hakaba harimo imiyenzi, ikaba idapfa kuma n'iyo cyaba ari igihe cy'izuba, bamwe bakayikoresha nk'urubibi rugaragaza aho umurima wa buri wese ugarukira.

Ibigori byamaze kuma, babikuraho n'amababi, ubundi babirunda hamwe. Igisigaye ni ukubihungura, bagakuramo ibitiritiri bakabijugunya, ubundi umusaruro bakawuhunika ahantu bashaka.

Ibitoki birunze hamwe, basaruye kugira babijyane ku isoko, harimo iby'imineke, hakabamo n'ibya poyo, byose babyifashisha babitara, ibindi bakabikoramo inzoga.

Umuganga w'amatungo wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari gutera urushinge imbwa ye, akaba yarambitse igikapu ku meza akozwe mu mbaho.

Abahinzi bari mu murima, bamwe bambaye ingofero z'ubururu. Hakabamo abambaye amapantaro n'abakenyeye ibitenge. Bafite amasuka, bose bari guhinga.

Umuhinzi uri mu murima afite mushipiri ari kugenda agabanya umurima we ku buryo ahingamo ibihingwa ku murongo, harahinze hose ni intabire.

Ahantu harunze imifuka y'umuhondo, irimo imyaka, bayubakiye imbaho bayitereka hejuru yazo, kugira ngo igihe imvura yagwa amazi ajya aca munsi y'izo mbaho, ntahite agera ku iyo mifuka.

Umurima urimo igiti kirekire, gifite amashami menshi, hasi yacyo hakaba hari ibyatsi ndetse n'amateke ahinze k'urwo ruhande.

Umurima uhinzemo ibiti. Ukaba uzengurutswe n'umuhanda. Hafi yaho, hakaba bahinze urutoki. Munsi hari ibyatsi byimejeje bidahingiye.

Umurima uhinzemo ibyatsi bagaburira amatungo bakaba ari byo bita urubingo ariko harimo n'ibindi biti bya kimeza bivanze n'insina z'ubwoko butandukanye.

Umurima uhinzemo ibiti, hakabamo n'ibyatsi bya kimeza, birimo n'amapera akiri matoya. Hirya hakaba igisambu, kirimo ibindi biti na byo bya kimeza.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye. Harimo ibya kimeza, hakabamo n'ibindi bateye bigizwe n'inturusu zakuze zikaba ndende cyane.

Umurima uhinzemo karoti, ukaba utunganyijwe mu buryo ahari karoti hari ukwaho, hagati y'umurima n'undi bagasigamo inzira inyuramo amazi, hakaba hakikijwe n'izindi mboga rwatsi.

Ahantu bagurishiriza imboga n'imbuto, hakaba hari ubwoko butandukanye, harimo amacunga, hakabamo imyembe n'izindi mboga.

Inyanya zihinze mu murima, zimwe zisa umutuku, izindi zisa icyatsi kibisi, iz'umutuku zigaragara ko zeze, izo zitarahindura ibara zo ntabwo zari zera, igihe cyo kuzisarura ntikiragera.

Umugabo ari mu murima uhinzemo intoryi, zarakuze zirafungana, ari kugenda areba izeze akazisarura, hazengurutswe n'ibiti ndetse bivanzemo n'insina.

Umurima uhinzemo amatunda y'ibinyomoro, hakaba hasasiye neza, bakoresheje ibyatsi, kugira ngo igihe izuba ryavuye ari ryinshi ubutaka budahita butangira kuma.

Ibitunguru by'umutuku bivanzemo n'ibindi by'umweru, birunze hamwe kuri shitingi, ni umusaruro mwinshi. Abenshi babikoresha babishyira mu biryo kugira bihumure.

Imyembe irunze hamwe basaruye, ikaba ifite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo n'irindi rijya gusa n'igitaka. Irunze ahantu, ku buryo uyishaka yayibona byoroshye.

Amavoka akiri ku giti atarera, kikaba gifite n'amababi asa ubururu ndetse hakaba hafunganye, aregeranye hariho imitumbwe myinshi.

Inzu ikozwe mu biti n'imbaho, hakaba hateretsemo ibihaza, na nyirabyo ari kugenda abipangamo neza ku buryo nta muyaga waza ngo bihubure ku buryo bworoshye.

Imboga zirunze ziri ku isoko, bagiye bazifungamo imifungo kugira ngo babone igiciro bazigurishaho, harimo intoryi, karoti na puwavuro.

Ibigori byinshi. Bihinze mu murima. Bikaba bikikijwe n'amatiyo yifashishwa mu kubivomerera mu gihe cy'izuba. Hakaba hari ibihuru ku ruhande.

Imisozi myinshi irimo amazu, hakabamo n'imirima yo guhinga, ihinzemo ibintu bitandukanye, harimo urutoki, imyaka n'amateke n'ibindi.

Ahantu hari igihuru hakikije umurima, hakaba n'ibiti by'amavoka ndetse hakaba n'ibindi bya kimeza, hari inzira abanyamaguru banyuramo ubona ko imeze neza.

Ahantu hari umukingo, hejuru hakaba igihuru, hasi hakaba hahinzwe imyaka. Yiganjemo imyumbati ndetse n'imigozi y'ibijumba.

Abantu bari gukora amaterasi y'indinganire kugira ngo barwanye isuri, imvura niba nyinshi itazabangiriza imyaka. Bari gukoresha amasuka n'ibitiyo.

Igishanga gihinzemo umuceri, hejuru ku musozi ugikikije hahinze ibiti bitandukanye harimo n'ahantu hateye urutoki, hakaba inzu za ba nyiri iyo mirima ku musozi.

Ingurube iri kuzenguruka hanze mu mbuga. Hakaba iruhande rwayo, hari inzu iri kubakwa ntoya. Bari kuyubaka bakoresheje amatafari y'impunyu. Iyo mbuga ikaba nta byatsi byinshi biyirimo.

Inka bateranyirije hamwe bakubaka inzira zirajya zinyuramo ifunganye, bakoresheje ibiti bimwe bihagaze ubundi bagashyiraho ibindi bitambitse, hagasigaramo akayira gato hagati ziranyuramo.

Ikiraro cyubatswe n'imbaho ndetse n'imbariro. Kirimo ihene ebyiri, imwe y'umukara, indi ifite amabara y'umukara n'umweru. Harimo ibyatsi zari ziri kurya kandi ziranaziritse ibiziriko.

Inka nkuru ifite amabara y'umukara n'umweru. Ifite n'akanyana kayo yabyaye kari konka. Karacyari gatoya. Zose ziri mu kiraro kimwe.

Ikiraro kirimo inka y'umweru n'umukara, kikaba gisashemo ibyatsi kugira ngo inka ijye ibikandagira, bizavemo ifumbire bazifashisha, bafumbira imyaka.

Umurima bakozemo pipiniyeri, irimo ibiti bya gereveriya bikiri bitoya. Birunze mu mashashi y'umukara, harimo n'ibitaka. Hakikijwe n'indi nzira abanyamaguru banyuramo.

Ahantu hari ikibumbiro cyubatswe na sima, hakaba harimo kawa bamaze gutonora, ubundi bakayanika kugira ngo bazayijyane ku isoko bayikoremo iyo abantu bazahita banywa itunganyije.

Ahantu hari ubuhunikiro bw'ibigori, hubatswe n'ibiti, bimwe bihagaze, ibindi bitambitseho hejuru, hose hariho ibigori bidatonoye, nibimara kuma ni bwo bazabitonora babone kubihungura.

Umurima uhinzemo imyaka ikaba ikikijwe n'urubingo ku ruhande rwabaye rurerure ku buryo bashobora kwifashisha ibice bimwe byarwo mu bwubatsi, hakaba harimo n'igiti cy'umwumbati.

Umurima uhinze neza w'inabiri, bacukuye utwobo mo hagati. Hagati ya akobo n'akandi bagenda basigamo umwanya, hagati harimo ahateye urubingo banze kurandura.

Abagabo babiri bafashe ingurube bari kuyiha umuti, umwe yambaye umupira w'umutuku urimo n'amabara y'umweru, bari imbere y'inzu igaragara ko ishaje hateretse n'indobo bifashisha.

Inyoni ifite akabara k'umutuku mu katorero, n'andi y'umukara ahandi hasigaye. Ifashe ku rurabo iri gukuramo ibyo kurya nta bindi byatsi biri hafi aho.